Akenshi na kenshi usanga ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi bikunze kumenyesha abantu ko bikorana na serivisi zitangwa ku buzima, aho usanga iyo urwaye zigufasha kugera kwa muganga kandi zikagukurikirana kugeza ukize.

Ibigo by'ubwishingizi bigenda birushaho kwegerezwa abaturage kubera ko babikoresha kenshi, bakarushaho no gushinganisha ibyabo, bityo bakizera ko ahazaza habo hatekanye, bakabaho nta kibazo bafite.

Biragoye ko wakora ubucuruzi muri iki kinyejana udafite ahantu wamamariza ibyawe, kubera ko n'ibigo by'ubwishingizi bitandukanye usanga bigerageza kumenyekanisha ibikorwa bikora ndetse na serivisi bitanga kandi bikaganwa n'abantu.

Ibigo bitandukanye by'ubwishingizi usanga bihereza icyizere kirekire abanyarwanda, bikabumvisha yuko bibatabara mu nguni zombi z'ibibazo, kugira ngo barusheho kubyizera kandi babigane ku bwinshi, igihe kirekire.

Akenshi usanga ibigo by'ubwishingizi bitandukanye bifite abakozi hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo kugira ngo barusheho kumenyekanisha serivisi batanga kandi barusheho no kumenyekanisha ibyiza by'ikigo cyabo kugira ngo kiganwe na benshi bityo bagiremo imigabane.

Abantu basobanukiwe neza ko, iyo ufite ikigo cy'ubwishingizi ukorana na cyo, bigufasha kubaho utekanye, kubera ko nta mafaranga yandi uzakenera mu zabukuru ngo uyakure mu mufuka wawe, ahubwo uyahabwe n'icyo kigo cy'imari wakoranye nacyo.

Ibigo by'ubwishingizi by'umwihariko ibikorera mu Rwanda, usanga bigerageza gutanga serivisi nziza, yewe bikabikora nk'aho bimwe biri kurushanwa n'ibindi, kugira ngo bikunde birusheho kubona abantu benshi babigana.

Ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi mu Rwanda, bigerageza kubwira ababikoresha amagambo meza y'ihumure, kugira ngo barusheho no kubishishikariza bagenzi babo bityo ibyo bigo bitera imbere binyuze mu kugira abanyamuryango benshi.

Nyuma y'uko ibigo by'ubwishingizi bifasha abantu mu kwivuza cyangwa se gushinganisha ibyabo, usanga binabafasha gushyingura ababo mu cyubahiro kubera ko bibaha amafaranga abafasha, bitewe n'ubwumvikane bw'amasezerano bagiranye.

Imiryango cyangwa se ingo zitandukanye zikorana n'ibigo by'ubwishingizi, usanga baba banezerewe buri munsi kubera ko nta kibazo na kimwe baba bikanga ko cyabagwirira bitewe n'uko baba bumva ko bishinganishije.

Abantu bose bamaze gusobanukirwa ko gukorana n'ibigo by'ubwishingizi ari ugushinganisha umuryango wawe ukabaho utekanye kandi binyuze mu mafaranga make wishyura buri kwezi cyangwa se igihe wemeranyijwe n'ibyo bigo runaka mu gihe runaka.

Mu rwego rwo gutanga serivisi nziza kandi zinoze usanga ibigo by'imari bitandukanye bigenda byorohereza ababikoresha cyangwa se ababigana gukoresha serivisi zabo, aho usanga bemererwa kohereza amafaranga ku bigo by'imari bakorana na byo bakoresheje telefoni zabo ngendanwa bafite.

Zimwe muri serivisi zitangwa n'amabanki, usanga iyo umaze kuzihabwa bakwereka ifishi cyangwa se urundi rupapuro rugaragaza uko igikorwa cyagenze bakakwereka amafaranga runaka waciwe nyuma yo gukora icyo gikorwa.

Biragoye ko wagira ubushobozi bwo kwitondekera imyenda ku rwego abacuruzi bo mu isoko bayitondekaho, kubera ko usanga ari ubuhanga bwite bisangije kandi ugasanga bukurura abantu benshi harimo n'abaguzi.

Inzu zicuruza imyambaro by'umwihariko imyambaro y'abamama, usanga akenshi zikunze kurangura agace gashoboka kubera ko badakunze gukenera iyo myambaro, aho usanga bazigurira mu bice by'ibihugu bitandukanye.

Igihe cyose usanga abacuruzi by'umwihariko abacuruzi bato, bakunze gufata neza abaguzi babo mu rwego rwo kugira ngo bajye bagaruka kenshi barusheho kubagurira kandi ugasanga ibyo bishobora kuzabafata mu kwihuta ku iterambere ryabo.

Akenshi usanga ibikoresho ndangamuco bikunze kugura amafaranga menshi bitewe n'uko bidakunze kuboneka ahantu henshi, niyo mpamvu ababicuruza bakunze kubikora nk'akazi kabo ka buri munsi kubera ko bibazanira inyungu.

Abacuruzi bacuruza ibintu bikunze kwambarwa, by'umwihariko; inkweto ndetse n'imyenda, bagirwa inama yo kumenyekanisha imisoro kare, bitewe n'uko nabo baba barabonye inyungu nyinshi, kandi bakabimenyesha Leta bakererewe.

Abacuruzi b'imodoka, barabanza bakazamamaza bakazimurikira ba nyiri ukuzigura, bakabereka ko zifite ibyangombwa byose kandi zishyuriwe n'imisoro, mbere yo kuzibahereza kugira ngo bitazatuma ibigo bigiye kuzicuruza bigwa mu gihombo.

Abantu basigaye bagura imodoka ku buryo buboroheye kubera ko babona amatangazo amenyesha ko hari iziri ku isoko, bityo nabo bakinjira mu bagomba kuzigura cyangwa se abahatanira uwo mwanya kugira ngo bazibone nabo bajye bagenda mu modoka nk'abandi.

Imashini zikunze kwifashishwa hari ibintu bimwe na bimwe bishyirwa mu modoka, kubera ko ziba zifite ubushobozi bwo guterura ibintu biremereye, kandi zikabikora vuba ugereranyije n'abantu, niyo mpamvu zikunda kwifashishwa mu mirimo imwe n'imwe itandukanye.

Ibintu bijyanye n'ingendo, ni kimwe mu bibazo byabonewe umuti, bitewe n'uko hari imodoka nyinshi z'ibigo byikorera, bamwe bazikodesha cyangwa se bakazigura, bityo waba ufite urugendo ukabasha kuyibona bitakugoye.

Imodoka zigurishirizwa ku mbuga nkoranyambaga usanga imyirondoro yazo idakunzwe kuba izwi, bitewe n'uko utaba wihuriye na nyirayo ariko iyo mumaze guhura akwereka buri kimwe cyayo, ukareba ko nta bibazo ifite ukabona kumwishyura.

Igihe cyose abakora imirimo yo gucuruza imodoka ku mbuga nkoranyambaga bagerageza gushyiraho ibiciro bwite kandi bagashyiraho n'ubwoko bw'imodoka kugira ngo umuntu wese uyishaka ayigure yabanje kumenya ubwoko bwayo.

Igihe cyose umugenzi akeneye kuva mu gace kamwe ajyamo kandi, haba hari imodoka rusange zitwara abagenzi, ku buryo ziba zifite n'ibyapa biziranga, uzikeneye akazibona byoroshye, kabone nubwo yaba atazi gusoma hari abamuyobora.

Imodoka zicuruzwa hifashishijwe imbuga nkoranyambaga, usanga akenshi ba nyirazo bakunda guhabwa ibyangombwa nyuma yo kwishyura kugira ngo bazazikoreshe nta kibazo kubera ko baba bishyuye akayabo k'amafaranga.

Igihe cyose uguze imodoka, waba uyiguranye n'umuntu ku giti cye cyangwa se abakozi babihariwe babicuruza, uba ugomba guhabwa ibyangombwa byose by'icyo kinyabiziga uguze kugira ngo wizere ko nta bujura cyangwa se andi manyanga arimo.

Gake gake uko u Rwanda rugenda rutera imbere, niko hazamo ba rwiyemezamirimo bashobora gucuruza ibintu bihenze, aho usanga bacuruza imodoka cyangwa se inzu, zikagurwa n'abantu batandukanye yewe n'abanyamahanga rimwe na rimwe bakazigura.

Usanga kenshi na kenshi, abacuruzi b'imodoka bakunze kubyamamariza ku mbuga nkoranyambaga, bitewe n'uko batabona umwanya wo kugenda begera umuntu ku giti cye, ngo bamumenyeshe serivisi batanga biboroheye.

Rimwe na rimwe usanga mbere yo kugira ngo abacuruzi b'imodoka bazigurishe babanza kuzifotora imbere n'inyuma bakayereka abaguzi babo ko nta kibazo na kimwe ifite, kugirango ngo barusheho kubona ko izo modoka ari nshya bazigure banezerewe.

Rimwe na rimwe usanga abaturage benshi bakunda kwizerera mu mafaranga yo mu ntoki kubera ko amafaranga yo kuri terefone akunda gutera ubujura hagati y'abantu bitewe n'uko abantu benshi baba badasobanukiwe neza imikorere yayo cyangwa se uburyo bwo kuyohererezanya.

Umuntu wese ukora mu kigo cy'imari cyangwa se banki n'ibindi bigo, aba agomba kuba ari inyangamugayo; kugira ngo hakumirwe ubujura ndetse n'ikindi gikorwa cyavukamo kijyanye no kunyereza amafaranga y'abandi.

Ibigo bitandukanye bikoresha abakozi bize neza ibijyanye n'icungamari kugira ngo babifashe gucunga neza amafaranga agendanwa mu ntoki, aya tuzi nka kashi kugira ngo atibwa n'ubonetse wese.

Amafaranga aya ngaya abantu bakunze gutwara mu ntoki azwi nka kashi, ni amwe mu mafaranga usanga akunze gukurura ubujura hagati y'abantu kubera ko umuntu arayabona, akabona yuko afatika, bikamutera imbaraga zo gutekereza kuyakwiba.

Igihe cyose hari uburyo ukeneye kwishyuramo ukoresheje amafaranga yo mu ntoki, uba ugomba kujya ku bakozi babishinzwe, ukabasaba ayo mu ntoki, ukabahereza ayo kuri telefone bityo ukajyanayo twita kashi, ukarushaho kwishyura no kwishyurwa neza.

Igihe cyose usanga amafaranga y'amanyarwanda utayitiranya n'andi y'abanyamahanga bitewe n'uko usanga yiganjeho ibishushanyo nk'inka cyangwa se inzu ndangamurage bigatuma n'umwana w'imyaka mike ashobora kuyamenya.

Iyo abantu bari kubara amafaranga bakunze kwifashisha imashini kugira ngo hataza kubamo kwibeshya cyangwa se bagateranya nabi hanyuma bakaza gutanga igisubizo kitanoze kandi bagakwiye gutanga imibare ihura n'iyo babaze kandi yifuzwa.

Iyo umuntu wese agiye muri banki cyangwa se ahandi hantu aba agomba kubahereza amafaranga yifuza ko bamubikira, bakamuhereza inyemezabwishyu igomba gusigaranwa na we, kugira ngo igihe cyose ajye azirikana ko afiteyo amafaranga.

Amafaranga yo mu ntoki abantu benshi nubwo bakunda kuyakoresha, usanga ashinjwa kuba imwe mu mpamvu zishobora gutera indwara, kubera ko aba ava ku muntu umwe ajya ku wundi bityo abantu bagashishikarizwa gukoresha ikoranabuhanga mu bijyanye no kwishyura.

Ahantu hose hacururizwa ibikomoka ku mata cyangwa se ibijya gusa nabyo usanga bategekwa kugira isuku kubera ko usanga hari abantu benshi batandukanye kandi bakaba bakandura indwara nyinshi igihe cyose hatari isuku.

Ahantu hose, hari amata cyangwa ibiyakomokaho, usanga hari ibyuma kabuhariwe bishinzwe kuyatunganya ndetse no kuyarinda kwangirika mu gihe cyose atarabona abaguzi, kandi bikayafasha gukomeza gutekana, kugeza igihe runaka.

Umunsi ku munsi usanga abantu barushaho kumenya agaciro ko gukoresha ibituruka ku mata kubera ko usanga hari inganda nyinshi zibitunganya kandi zikanashishikariza abantu gusobanukirwa neza akamaro k'ibikomoka ku mata, ko arigutuma ubuzima bwabo bugenda neza.

Abantu bagirwa inama yo kunywa bimwe mu bituruka ku mata ariko bitunganyirizwa mu nganda kubera ko hari intungamubiri z'inyongera zongerwamo bikabafasha gukura neza no kugira ubudahangarwa bw'umubiri ku rwego rwuzuye.

Ahantu hose hacururizwa ibituruka ku mata, haba hagomba kugirirwa isuku kugira ngo hataza kuvaho haboneka icyakangiriza ubuzima bw'umuntu kandi we yahagannye yumva ko ari aho kumukiza bityo bikamutera indwara ubuzima bwe ntibukomeze neza.

Inzu zicuruza ibijyanye n'amata cyangwa se ibiyakomokaho, n'inzu zubashywe cyane kubera ko zicuruza byinshi bikenewe n'abantu kandi bakabikenera ku mubare mwinshi, aho usanga bahagana bari abantu batandukanye baturutse impande n'impande.

Iyo ucuruza ibikomoka ku mata, uba ugomba kuba ufite umwambaro wawe kabuhariwe kugira ngo utavaho ukanduza imyambaro bwite wambaye cyangwa se abantu bakakwitiranya n'abandi ntibamenye ko uri umukozi kabuhariwe.

Kubera ko abantu bakunze kumenya ko kubungabunga ubuzima bwabo bikwiye gushyirwa imbere, usanga bihatira kurya ibituruka ku mata cyangwa se ibikoze mu ngano kugira ngo bakomere kandi babeho batekanye, imyaka yabo izabe myinshi.

Akenshi usanga abana bakunda kunywa imwe mu mitobe yengerwa mu nganda ariko baba bakurikiranamo uburyohe kubera ko hashyirwamo isukari nyinshi cyane cyane ari nayo mpamvu ababyeyi babo bakunda kuyibarinda kubera ko itaba ari nziza ku buzima bwabo.

Ahantu hose hacururizwa amata cyangwa se hashyirwa amata, igihe cyose haba hagomba kugirirwa isuku, kandi hakaba hari abakozi babugenewe bashinzwe kuyatunganya kandi bagasukura ibyuma byabuhariwe bishinzwe kuyacungira umutekano.

Abantu bose bashinzwe gutunganya amata n'ibiyakomokaho bagirwa inama yo kugira isuku yo ku rwego rwo hejuru, kubera ko amata ari kimwe mu bintu bishobora kwandura bya hato na hato kandi bikanduza umuntu wabinyoye.

Amazi ni kimwe mu binyobwa bigomba kunyobwa n'umuntu buri munsi kubera ko bimufasha gusukura impyiko, bigatuma umubiri we wirirwa utekanye kubera ko imyanda yose iba yamusohotse mu mubiri, bitandukanye n'uba utayanyweye.

Ahantu hacururizwa amata n'ibisa na yo haba hari udukoresho twinshi nk'utujerekani kubera ko hari abayagura bikaba ngombwa ko bayatashya mu rugo kandi batari bitwaje aho kuyatwaramo, ni yo mpamvu utwo tujerekan twifashishwa kugira ngo barusheho kunyurwa.

Ahantu henshi by'umwihariko ahakunze gucururizwa ibikomoka ku mata n'ibifitanye isano na yo, usanga Leta ikunda kuhibanda mu bijyanye no kugenzura isuku iharangwa; kubera ko iba igaragaza ko amata ari ikintu kigomba kwitabwaho, kandi neza.

Abanyarwanda bakunze gukoresha uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, nka bumwe mu buryo buzwiho kugira vuba kandi bukoroshya imitangire y'amafaranga, bitangirije akazi ka buri umwe kandi bigakorwa mu gihe gito.

Uburyo bwo kwishyura bugezweho, ni ugukoresha ikoranabuhanga kubera ko usanga aribwo bwihuta kandi bugakorwa no ku bantu bari kure, bitagombereye ko umuntu muba muri kumwe kandi usanga byoroshye uburyo bwo kwishyurana hagati y'abantu.

Igihe cyose umuntu arimo yemererwa kwishyura cyangwa se akemera kwishyura akoresheje telefone ntabwo ari ngombwa ko ukoresha amafaranga akunze kwishyurwa mu ntoki aya tuzi nka kashi kubera ko no kuri telefone urayamuha ukamwohererereza ingano y'ayo ashaka bitewe n'ayo mwemeranijwe.

Abantu bakunze gushishikarizwa kwishyurana hagati yabo bifashishije terefone cyangwa se mudasobwa nk'uburyo bwizewe bwo kwishyura hagati y'abantu kandi bugira vuba kubera ko burinda abantu benshi ubwambuzi buba hagati y'amafaranga yishyurwa.

Iyo ugiye kwishyura uba ugomba kugira amakenga kubera ko uba ugiye gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo amafaranga yawe ataza kubura cyangwa se akayobera ku wundi muntu bigatuma ugwa mu gihombo kandi utari ukwiye kubikora bikabarwa nk'uburangazi.

Igihe cyose ugiye kwishyura ukoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga, uba ugomba kwitonda kandi ukagira amakenga gusa ko ikigo cyose cyangwa umuyoboro ugiye gukoresha, ukwereka amahitamo, ukakwereka n'imiyoboro yose ugomba gukoresha kugira ngo udahomba.

Icyiza cyo gukoresha ubwishyu bukureye kuri telefone, usanga baguhereza inyemezabwishyu ukayisigarana muri telefone yawe kandi igihe cyose uyikeneye ukayibona, bitagusabye kujya gushakisha impapuro.

Igihe cyose uri gukora ibintu bitangirwa kuri serivisi za telefone, hari imibare runaka uba ugomba gukanda akenshi ariko iyo mibare ikandwa iyo hari gukorwa ibijyanye no kwishyura amafaranga ava ku muntu umwe ajya ku wundi.

Iyo wahawe inyemezabwishyu igaragaza ko wishyuye imisoro neza, uba ugomba kuyibika ahantu hizewe, kugira ngo utazayibazwa ukayibura, bigatuma ucibwa amande cyangwa se ugahabwa ibindi bihano.

Igihe cyose habayeho ubwishyu bw'amafaranga, haba hagomba kuba hariho n'impapuro zihamya uko amafaranga yishyuwe cyangwa se yasohotse, akenshi rero usanga abashinzwe kubika izo nyandiko, bazibika ahantu hizewe kugira ngo bitazateza ubujura n'ubwambuzi.

Igihe cyose wahawe inyemezabwishyu igaragaza ko wishyuye imisoro cyangwa se wishyuye andi mafaranga iyo ari yo yose, igomba kubikwa kure, kugira abana batazayangiriza, ukazabura indi ihamya neza ubwishyu bwawe, kandi ari ingenzi.

Mu myaka yashize ikigo gishinzwe imisoro ntabwo cyatangaga inyemezabwishyu, kubera ko ibintu by'imisoro byari bitarakomera, ariko aho bigeze barakiguhereza icyo cyangombwa ukacyitwaza kandi ukakibikira.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro mu Rwanda, usanga gifite inyandiko nyinshi, zigenda zihamya ko umuntu yishyuye cyangwa se atarishyura kugira ngo zizabone uko zitandukanya abatishyura cyangwa se abagihemukiye.

Urwandiko cyangwa se icyangombwa umuntu wese ahabwa nyuma yo gufata inguzanyo, nicyo kigaragaza ko igikorwa cyagenze neza, kandi amafaranga yose yahawe agomba kuzayishyura mu gihe runaka, nkuko babyemeranyijwe.

Hari serivisi zimwe na zimwe ujya kwaka mu bigo by'imari cyangwa se ukabyaka ibigo bya leta bakagusaba icyangombwa cy'uko nta misoro ubereyemo leta kugira ngo barusheho kubona ubunyangamugayo bwawe barusheho no kukwizera.

Igihe cyose usanga ibigo by'imari bitandukanye bifitanye imikoranire, haba ibyo mu bihugu byo hanze cyangwa se Igihugu cy'u Rwanda kugira ngo imirimo y'ivunjisha ige irusheho kugenda neza hagati y'abakeneye amafaranga.

Amafaranga yose abantu bakunze gukoresha azwi nka kashi usanga handitseho umubare kuburyo umuntu wese asobanukirwa ingano yayo kugira ngo abone uko aza kuyahererekanya na bagenzi be mu bijyanye n'igura n'igurisha hagati y'abantu barenze umwe.

Mu myaka yashize wasangaga abayobozi b'ibihugu bitandukanye bakunda gushyirwa ku mafaranga kugira ngo bijye bigaragara neza mu buryo bwo kuzirikana imiyoborere cyangwa se icyo uwo muyobozi yagejeje ku gihugu runaka mu gihe yari ari umuyobozi.

Buri gihugu kigira amafaranga yacyo bwite cyiyemeje kujya gikoresha, niyo mpamvu iyo uzanye amafaranga y'abanyamahanga uba utegetswe kubanza kuyavunjisha, kugira ngo ugire uburenganzira bwo kuyakoresha mu gihugu runaka.

Amafaranga yo mu ntoki usanga akunze kwifashishwa nk'uburyo bwo kwishyura abantu batandukanye, nubwo bwose abantu badasobanukirwa ko ashobora kuba ari imwe mu mpamvu zo gukwirakwizwa indwara, kubera ko aba yakozweho n'abantu benshi.

Abantu bose bagomba kumva ko ari iby'ingenzi gukora imirimo ijyanye n'ivunjisha, mbere yo gukoresha amafaranga ayo ari yo yose y'amanyamahanga ugahabwa ay'amanyarwanda kubera ko ni byo biguha uburenganzira bwo gukoresha ayo mafaranga mu buryo bwemewe.

Amafaranga y'amanyamahanga by'umwihariko amadolari, usanga abantu benshi bayakunda kubera ko baba bavuga yuko afite agaciro kenshi kurenza ayo mu gihugu imbere, bityo uyafite bishobora kumutera kugira ubukungu mu gihe gito.

Amafaranga y'abanyamahanga akunze kugira agaciro cyane mu gihugu imbere kubera ko abantu benshi baba batazi kuyakoresha cyangwa se batazi agaciro kayo, niyo mpamvu usanga uyafite mu buryo bwo mu ntoki tuzi nka kashi ariwe ukunda kuyishyura bimworoheye.

Amafaranga y'amanyamakongo usanga akunda kuzanwa mu gihugu cy'u Rwanda n'abantu babayeyo cyangwa se bakorerara yo ibikorwa bibyara inyungu, ariko nayo iyo bayagejeje mu Rwanda bagana ibiro by'ivunjisha bikabafasha kuyahinduramo amanyarwanda.

Ahantu hose hari ibigo bishinzwe gukora imirimo y'ivunjisha, usanga hakunze kuba hazwi n'abantu batandukanye by'umwihariko abanyamahanga kubera ko ari bo bakunda gukenera izo serivisi, bigatuma bahagera, bakazikoresha ku bwinshi mu gihe gito.

Abatanga serivisi zitandukanye by'umwihariko zirimo ku kuvunjisha usanga bagirwa inama yo kudashyira amarangamutima yo gusumbanisha abantu kubera ko baba bakene bari ari benshi hakubiyemo n'abanyamahanga kandi nabo bakeneye amafaranga.

Ibigo by'ivunjisha by'umwihariko ibishinzwe kuvunja amafaranga y'amanyamahanga usanga bidakunze gukorera mu bice by'icyaro kubera ko nta bantu bakunze kuvunjishayo amafaranga, ariko na none iyo hari abantu bo mu cyaro batabona izo serivisi birababangamira.

Ibigo bishinzwe gukora imirimo y'ivunjisha, usanga bifite amasaha byagenwe yo gukinguriraho, kugira ngo abantu barusheho kunogerwa na serivisi zitangwa na byo, kandi bakabikora bubahirije ayo masaha bashyizeho.

Bamwe mu bakozi b'ibigo bikomeye nk'amabanke by'umwihariko ibyo bigo by'imari, bagerageza gutanga serivisi nziza kurushaho kugira ngo bakundisha abantu ibyo bigo by'imari bityo barusheho kubishoramo amafaranga y'abo ku bwinshi kandi bakomeze babigane.

Abakora imirimo y'ivunjisha, nibo bantu usanga akenshi bakunda kwitwararika, kugira ngo hatagira ikibazo cy'ubujura kiza kubamo hagati aho, bakabura amafaranga yabo, bikabatera igihombo gikomeye mu kazi bakora.

Abantu benshi ntabwo bacyinubira ko serivisi bahabwa n'ibigo bitandukanye by'ivunjisha ziri hasi, kubera ko usanga ibigo byarabaye byinshi mu Gihugu, aho utanyuzwe na serivisi aherewe hamwe ashobora kwigira ahandi.

Inzu zose zikora imirimo ijyanye n'ivunjisha, abazikoramo bakunze kugaragaza ko ari bumwe mu bucuruzi bubazanira inyungu nyinshi kubera ko abanyamahanga iyo binjiye mu Rwanda bakenera amafaranga yo kuzakoresha bari mu gihugu imbere.

Ibigo bishinzwe gukora imirimo y'ivunjisha, akenshi mu Rwanda ukunze gusanga bikoreshwa n'abanyamahanga, bitewe nuko abanyarwanda bagira amafaranga y'abanyamahanga baba bari ku rwego rwo hasi mu bijyanye n'imibare. Niyo mpamvu abanyamahanga ari bo bakunda kubikoresha.

Abantu bakora imirimo itandukanye irimo nk'ububaji bagirwa inama yo kuyikora ariko bambaye imyenda y'ubwirinzi cyangwa se ingofero zirinda umutwe kugira ngo badakomeretswa n'imisumari cyangwa se inyundo ndetse n'ibindi bikoresho biremereye bafite.

Ibikoresho byo mu nzu by'umwihariko ibibazwa n'ababyiyemeje usanga bikunze kuba bigura amafaranga menshi cyane, kubera ko biba bisa neza kandi bigakurura abantu benshi binyuze mu buryo bikozemo kubera ko atari ubwo wasanga ahantu hose.

Iyo umaze kugira inzu nziza uba usabwa no kugerageza ugashyiramo intebe kugira ngo igihe cyose ubonye abashyitsi ujye ubona aho ubicaza, utarinze kujya gutira bagenzi bawe kubera ko uba ufite inshingano zo kwigira nk'umugabo.

Ahantu hose hari amahoteri cyangwa se izindi nzu zakira abagenzi batandukanye, usanga zikunze kuba zisa neza mu rwego rwo gukurura abazikoresha kandi bagaharanira gucunga umutekano w'abararamo no kubahereza serivisi nziza.

Igihe cyose ugiye muri hoteri uba ugomba kwiyubaha kandi ukanubaha n'ibyo usanzemo iyo utubahirije ayo mabwiriza akugenga birangira ba nyir'ibigo baguhannye kandi iyo baguhannye baguca amafaranga menshi kubera ko wabangirije ibikoresho.

Muri hoteri haba hari uburyo bwinshi bushobora gutuma uwahagenze wese yishima, kubera ko haba harimo n'ibibuga by'imyidagaduro, umuntu wese ashobora kujyamo akaruhuka igihe cyose abikeneye.

Ibiribwa cyangwa se ibicuruzwa byo muri hoteri, haba ari ibinyobwa, usanga bigura amafaranga menshi, bityo abantu batifite bakagirwa inama yo kudakunda gusohoka ngo bajye muri hoteri, kubera ko byabatera guhomba.

Muri hoteli bagira ibyo kurya cyangwa se ibinyobwa biteguranye isuku, kubera ko baba bakira abantu batandukanye harimo n'abanyamahanga, kandi bakagira ibyo kurya by'amoko yose, bitewe n'uko baba bamaze gutera imbere, mu mikorere yabo.

Igituma amahoteli menshi acuruza serivisi zayo zikagenda ku bwinshi, ni uko usanga hateguranye isuku kandi uburiri bwaho bwashashwe n'abakozi b'abahanga, bityo bigakurura amaso ya buri umwe, bigatuma abahagana ari benshi kubera ubwiza bwaho.

Hoteli zikunze gucibwa imisoro n'amande biri hejuru, kubera ko akenshi usanga zikora amakosa yo kutamenyekanisha imisoro ku gihe, kubera ko baba badashaka kwishyurira ku gihe kandi barafashe amafaranga menshi.

Mu rwego rwo gutanga serivisi nziza kandi zinoze, usanga amahoteri cyangwa se ahandi hantu abantu bakunze gucumbika, haba hari ibitanda bishashe neza, kandi hakaba n'ibindi bikorwa bifasha umuntu kuruhuka igihe cyose.

Usanga akenshi muri hoteli haba harimo ubwogero bwa kijyambere, cyangwa se ahandi hantu umuntu ashobora gukarabira kubera ko baba bagomba kuzishyira ku rwego mpuzamahanga bitewe n'uko bakira abantu benshi batandukanye baturutse ahatandukanye.

Ibigo by'ubwishingizi mu Rwanda bizwiho gukorera ahantu hasukuye kandi habonerana kubera ko biba biha serivisi abantu batandukanye kandi baturuka no mu bihugu bitandukanye, niyo mpamvu bagerageza kwitwararika kugira ngo bashimwe na buri bose igihe cyose.

Ntabwo ari serivisi zo kubika gusa zitangwa na banki ya Kigali ahubwo usanga rimwe na rimwe bagira na gahunda zo gutanga serivisi z'ubwishingizi ku babishoboye kandi ku giciro gito by'umwihariko ku bantu bakorana na bo mu buzima bwa buri munsi.

iyo ukorana n'ibigo byose bishinzwe ubwishingizi mu gihugu usanga wizeye ko ibikorwa byawe bitekanye kandi ukizera ko igihe runaka ushobora kuzafatamo amafaranga ukabasha kugura imitungo itimukanwa nkuko ushobora kuyishinganisha

Ibigo by'ubwishingizi biri muri bimwe mu bintu bisigaye bituma abantu bizera ko ubuzima bwabo bushobora kuzamara iminsi kubera ko bibafasha kubona bimwe mu byo bakeneye igihe cyose barwaye bakabona imiti cyangwa se amafaranga abafasha kwivuza byoroshye.

Ibigo bitanga serivisi z'ubwishingizi biba bifite inyubako ngari kandi zagutse kugira ngo ababigana bajye babona aho bicara igihe cyose bategereje kwakirwa nyuma yo guhabwa serivisi babona uko bataha batekanye.

Igihe cyose usanga abakozi bakorera ibigo by'ubwishingizi bitandukanye basabwa kuba bambaye neza bitewe n'uko bakira abantu b'ingeri zitandukanye mu rwego rwo kugira ngo bakomeze base neza kandi barusheho kunogera ababareba bakaba basabwa kwitwararika.

Hagamijwe gutanga serivisi zinoze usanga ibigo bigiye bitandukanye bishyiraho imirongo itishyurwa ushobora guhamagara igihe cyose ubakeneye cyangwa se ukeneye kumenya niba bari aho bakorera kugira ngo ujye kubasaba serivisi.

Iyo ugerageje kubaza umuntu wese mu Rwanda usanga abenshi bazi ''Urubuga rw'Irembo'', kubera ko ari hamwe mu hantu abantu benshi bakunda gusanga serivise zitandukanye zitangwa na Leta, bitabasabye kujya gutonda imirongo.

Kugira ngo ibigo by'ubwishingizi bimenywe n'abantu benshi usanga umunsi ku munsi birushaho kugenda bafungura amashami mashya aho usanga bagerageza gukorera no mu turere cyangwa se mu ntara zitandukanye z'igihugu bakava mu mujyi wa Kigali.

Abakozi bashinzwe kugenzura ibijyanye n'inguzanyo zihabwa abaturage zituruka mu bigo by'imari usanga buri kwezi bagenzura bakoresheje inyandiko basigaranye bagasuzuma neza niba ba nyir'ukwishyura inguzanyo bari kwishyura amafaranga bemeranyijwe gutanga nk'inyungu.

Inguzanyo akenshi usanga ari imwe mu mpamvu zifasha abantu kwiteza imbere, kubera ko ayo mafaranga uba uhawe ushingiye ku bwinshi bwayo, ushobora kuyaguramo imodoka cyangwa se ukubakamo inzu, ikagufasha gucunga neza ubuzima bwawe.

Usanga akenshi gutunga inzu, ari inzozi za buri umwe. Ikaba ariyo mpamvu isunikira abantu benshi gufata inguzanyo muri banke, kugira ngo arusheho kubaka, cyangwa kuyigura, agire aho abarizwa agire icyerekezo runaka, ku buryo avuga ngo aha ni iwange.

Igihe cyose ushaka inguzanyo uba usabwa kwegera ikigo cy'imari nka banke, ukaganira na bo ukababwira umushinga ufite bakawumva bamara kuwumva bagahitamo kuguhereza inguzanyo mukumvikana igihe uzayishyura ndetse n'amafaranga uzishyura nk'inyungu.

Iyo ukorana n'ikigo cy'imari, biguhereza amahirwe yo kubona inguzanyo byoroshye bitakugoye, kubera ko kiba kigufata nk'umunyamuryango wacyo mukuru, bityo kikakugirira icyizere ko mushobora gukorana, ukacyishyura byoroshye.

Iyo wasabye inguzanyo mu kigo icyo ari cyo cyose uba ugomba kwirengera ko hari amafaranga uzatanga afatwa nk'inyungu kuyo baguhaye, kubera ko inguzanyo watse uba ugiye kuyikoresha mu bikorwa biguteza imbere wowe ku giti cyawe n'umuryango wawe gusa.

Inguzanyo zitangwa n'ibigo by'imari bitandukanye nk'amabanki cyangwa se ibindi bigo by'ubwishingizi, ni imwe mu mpamvu ifasha abaturage cyangwa se abanyamuryango b'ibyo bigo kwiteza imbere kubera ko baba bacibwa amafaranga make afatwa nk'inyungu ku mugabane bityo bigatuma biteza imbere.

Imboga n'imbuto ni bumwe mu bucuruzi busigaye bushyirwamo nkunganire na leta, kugira ngo Abanyarwanda barusheho kuzikoresha kandi bazibone bitabahenze, kubera ko usanga bageragezwa kugaragarizwa ko hari imiti myinshi iboneka muri zo.

Mu isoko ry'ibiribwa ukunda gusanga akenshi ari ahantu hakunze guhurira abantu benshi, kubera ko iyo basoje akazi kabo ka buri munsi, bakunda kujya guhaha ibyo bagomba gutahana mu rugo, kugira babone ibyo kurya.

Mu isoko ni ahantu usanga hari abantu benshi, ugasanga hakunda kuba ibikorwa by'ubujura, niyo mpamvu usanga abantu bakunze kuba biganje mu isoko bakunze kuba bacanye ku jisho kugira ngo bakumire ibyo bikorwa bibi.

Abatwara ibinyabiziga mu buryo butandukanye usanga iyo bahagaritse ibinyabiziga byabo mu muhanda cgangwa se bakabihagarika ahandi ahantu hatemewe bacibwa amande bitewe n'uko baba bari kubangamira bagenzi babo mu buryo bw'imigendere.

Isoko ry'imboga n'imbuto usanga ari isoko rikunze kuba ririmo ibicuruzwa byinshi, ariko ibyiganjemo imbuto ugasanga ariho bicururizwa cyane kubera ko usanga ababikeneye ariho bajya kubishakira, kandi bakabibona ku mafaranga atari menshi.

Abantu bacuruza ibijyanye n'imboga n'imbuto, usanga bafite ahantu leta yabashyiriyeho nk'ubwabo ku giti cyabo, bagomba gucururiza bakarushaho kwiteza imbere, kandi bakishyura imisoro mike itari myinshi, kugira ngo barusheho kuzamura imiryango yabo bavukamo.

Mu isoko hakunda kugaragara abantu benshi kandi bazanywe n'intego zitandukanye hari abaza bafite intego zo kugura no kugurisha ibicuruzwa byabo ariko, ugasanga hari n'abaje bafite intego zo kwiba abagurishije utwabo.

Imirimo y'ubucuruzi igiye ikorerwa mu masoko by'umwihariko aho usanga hacururizwa imboga cyangwa se imbuto, usanga abayikora mu buzima bwabo bwa buri munsi bakunze kugaragaza ko ari imwe mu nzira zibaganisha ku iterambere kandi bagateza imbere imiryango yabo.

Mu isoko hahurira abantu benshi kandi bafite imico itandukanye. Ni yo mpamvu usanga abacuruzi bakunda kuba bari maso kugira ngo bakumire ubujura ubwo ari bwo bwose bitewe n'uko abantu batagenzwa na kimwe bashobora kubiba bimwe mu bicuruzwa byabo.

Igihe cyose usanga amasoko akunze gushyirwa mu nyubako zigeretse kandi zubatse ku buryo ziba ari ndende, hagamijwe kubungabunga ubutaka bitewe n'uko aba yubatse ku buso buto, kandi abantu benshi bakabonamo aho bakorera.

Leta yiyemeje guca ubucuruzi bukorewe mu kajagari, ifata abantu bose ibashishikariza ko bagomba kwihuriza mu masoko, ikabubakira amasoko magari bagakoreramo bakareka gukorera mu mihanda kubera ko byayitezaga igihombo.

Iimwe mu bintu bisigaye bikwirakwizwa ku bwinshi ahantu hatandukanye by'umwihariko mu turere tumwe na tumwe, usanga ari amasoko bitewe n'uko afasha abaturage gucuruza kandi bakanagurishanya ibyo bejeje bakarushaho kwiteza imbere.

Akenshi na kenshi, usanga zimwe muri sosiyete z'itumanaho, by'umwihariko nk'iyitwa Airtel, ikunze gushyira abakozi bayo ku mihanda kandi ikabashyira ahantu henshi kugira ngo abakeneye serivisi zitangwa n'iyo sosiyete, barusheho kuzibona ku bwinshi.

Abakozi ba sosiyete y'itumanaho ya MTN bakunze gufasha abantu mu buryo butandukanye, kubera ko baboneka kenshi ku mihanda, ari naho usanga abantu bakunze kunyura, bityo bakabona uko bibafasha ari benshi kandi mu gihe gito.

Abakozi bose bakorera ikigo cy'itumanaho cya MTN usanga bakunze kugaragaza ko babona amafaranga menshi afatwa nk'inyungu avuye muri serivisi batanga umunsi ku munsi, kandi bakayakoresha mu mibereho yabo.

Abakozi b'urwego rw'itumanaho ruzwi nka MTN, bakunze kugira uruhare runini mu guhererekanya amafaranga hagati y'abantu kubera ko babafasha kuyashyira kuri terefone yabo, bakayakura mu ntoki, bakayagendana, kuyohererezanya bikoroha.

Mu myaka yashize abakozi bakoreraga sosiyete z'itumanaho nka MTN cyangwa se ibindi bigo, bagiraga impungenge z'umutekano wabo, kuko wasangaga bahutazwa n'abantu bari ku muhanda bitwaje ko bafite amafaranga menshi ugasanga bashaka kubambura.

Abacuruzi bo mu isoko by'umwihariko abakora ubucuruzi buciriritse, usanga badakunze kwemera ubwishyu bukorewe kuri telefoni, bikaba ngombwa ko hifashishwa abakozi bashinzwe kubikura amafaranga, bakaza bakayabahereza mu buryo bwo mu ntoki.

Abakozi ba sosiyete z'itumanaho zitandukanye, usanga bakunda kwifashishwa nka bamwe mu bagomba gufasha abantu kohererezanya amafaranga hagati yabo bifashishije terefone kubera ko usanga abo bakozi bafite ubumenyi bwihariye kuri ibyo bikorwa.

Igihe cyose ugeze ku mukozi wabugenewe ushinzwe gutanga amafaranga ariko akaba akorana n'ikigo cy'itumanaho, uba usabwa kwitwararika kugira ngo utagira amafaranga uyobya ku wo uri kuyoherereza kandi utari buze kuyagaruzwa.

Abakozi b'ibigo bitandukanye by'itumanaho by'umwihariko ibikorera mu Rwanda, usanga bakunze gukorana n'ibyo bigo bikabahereza amafaranga kandi nabo bakabona inyungu zibafasha kwiteza imbere mu buzima bwa buri munsi.

Akenshi na kenshi, usanga abacuruza amafaranga ku muhanda by'umwihariko abakorera ibigo by'imari cyangwa se sosiyete z'ubwishingizi ndetse n'iz'itumanaho bafite inzu zabo zubatse ku buryo bubungabunga umutekano wabo.

Igihe cyose uri gukoresha telefone yawe cyangwa se mudasobwa, wakira cyangwa wohereza amafaranga, uba ugomba kwizera neza ko amafaranga yageze ku wo uyoherereje, kugira ngo hataza kubamo kuyoba kandi utari buyagaruzwe.

Abacuruzi bose bashishikarizwa kumenya gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bugezweho bwo kwishyura aho ushobora kwishyura ukoresheje telefone kandi ntukatwa amafaranga menshi bityo bikaba imwe mu mpamvu zo gukumira guhererekanya amafaranga mu ntoki kandi bitera ubujura.

Ibigo bikunze gucururiza kuri murandasi, bikunze kugirwa inama yo gutanga ibyo byatumwe, bikabitanga ku buryo bwihuse kugira ngo ababitumije batarambirwa, bagahitamo gukoresha abandi bacuruzi kandi na bo bari babishoboye.

Abantu bose basobanukiwe ko gukora ubucuruzi bwifashishije ikoranabuhanga bishoboka, niyo mpamvu usanga bagerageza gufungura imwe mu miyoboro ishobora kubafasha gucururiza ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo nabo barusheho kwiteza imbere.

Igihe cyose ugerageje gutumizaho ukoresheje imbuga nkoranyambaga ukagira bimwe mu bicuruzwa ukenera ni ngombwa ko uba ufite nimero ugomba kuboneraho abatanga izo serivisi kugira ngo hataza kubaho ubujura hagati yawe n'abo watumye.

Abantu batandukanye ntibahwema kugaragazako ikoreshwa rya murandasi ndetse n'imbuga nkoranyambaga ryabaye imwe mu nzira bashobora kubonamo amafaranga ku buryo bwihuse kandi batavunitse kubera ko bacuruza kandi bakanagura ku buryo bworoshye.

Imbuga zigiye zitandukanye by'umwihariko izikorera kuri murandasi, zishinzwe gucuruza ibikoresho, usanga zikunze gutanga icyizere zigihereza abantu kugira ngo barusheho kuzigana ari benshi, nazo zirusheho kubona inyungu.

Bumwe mu buryo bwiza bwo gukora ubucuruzi cyangwa se gutumizaho ibintu bitakugoye, ni uburyo bwo gukoresha murandasi, kubera ko utumiza ibicuruzwa ukeneye ukabibona bitagutwaye umwanya ujya ku isoko cyangwa ahandi bicururizwa.

Abenshi mu bakora ibikorwa birimo ubucuruzi usanga bakunze gutanga serivisi zitishyurwa, aho usanga babwira ababagurira ko babagereza ibyo baguze aho batuye ku buntu, igihe cyose babitumijeho bakoranye n'ibyo bigo.

Usanga ubucuruzi bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri murandasi bakunda kumenyesha abantu bakabereka ko babafitiye ibyiza byinshi harimo no kugabanyirizwa ku biciro, kugira ngo barusheho kuryoherwa na serivisi cyangwa se igikorwa cyo kugura no kugurisha.

Mu rwego rwo kubungabunga imikoreshereze myiza y'igihe, uba ugomba kwita ku bucuruzi bukorwa hakoreshejwe ikoranabuhanga kugira ngo bukore ariko unakora izindi gahunda zawe, harimo nk'imirimo igutunga ya buri munsi.

Abantu bagurishiriza ku mbuga nkoranyambaga iyo wabatumye usanga bakugeraho vuba kubera ko baba bafite uburyo bwinshi bworoshya ingendo, bitewe n'uko usanga bamwe muri bo bakoresha imodoka cyangwa moto, bakakugeraho utararambirwa.

Abenshi muri ba rwiyemezamirimo, usanga bariyemeje no kugemurira abaguzi babo ibintu byose, babatumye kubera ko baba babikoze ku buryo bw'ikoranabuhanga, ariko bakabikora badahari, niyo mpamvu bahitamo kubibagereza aho bakorera.

Nimero iranga ikinyabiziga iba igomba kugaragara ku buryo buri wese ayibona hanyuma yatakaza kimwe mu byo yari itwaye bakarushaho kubona uko babona umwirondoro wa nyiri icyo kintu kubera ko nimero yacyo iba igaragara neza cyane kuri buri umwe.

Kwigurira inzu muri Kigali ni igikorwa kitoroshye cyane, niyo mpamvu umuntu wayigezemo yifata nk'umuntu wesheje umuhigo kandi ukomeye, agafata umwanya akaruhuka kubera ko aba yakoze igikorwa cy'intangarugero.

Ibigo bishinzwe gucuruza amazu cyangwa se imitungo itimukanwa usanga akenshi bikundaga gukenerwa n'abantu benshi, kubera ko atari buri umwe ushobora kwigerera aho ibyo bikorwa biri ngo abashe kuvugana na ba nyirabyo abigure bimworoheye.

Ubucuruzi bw'ibibanza bukunze gukorwa n'abantu benshi batandukanye, nyuma y'uko havumbuwe ko bikunze gutanga inyungu ku bantu benshi kandi imisoro yishyurwa kuri abo bantu ikaba ari make. Ni yo mpamvu bikunze gukorwa n'abantu benshi, kugira batere imbere byihuse.

inzu zikunze gucururizwa ku mbuga nkoranyambaga hifashishijwe murandasi bityo ba nyirazo bakabona abaguzi ku giciro cyoroshye kandi bakabibona bitabahenze nk'uko byakabagoye bakoresheje uburyo busanzwe.

Inzu zikodeshwa cyangwa zicuruzwa muri Kigali, zikunze kugaragazwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, kuko ari yo nzira ishobora kuzigeza ku bantu benshi kandi bakabimenya mu gihe gito; bitewe n'uko buri umwe wese atakwigerera muri Kigali.

Byaroroshye umuntu wese ukeneye inzu ntabwo bikimusaba kujya kwirirwa azenguruka imihanda n'imihanda kubera ko ashobora kugana bimwe mu bigo bizicururiza ku mbuga nkoranyambaga bakamurangira bakamwereka amafoto akamenya aho agurira bitamugoye.

Usanga inzu zikunze gucuruzwa muri Kigali by'umwihariko izabanje gutangazwa hifashishijwe imbuga nkoranyambaga, zikunze kuba zibarirwa mu madolari kandi abantu benshi badasobanukirwa ingano. Ni yo mpamvu abazamamaza bagirwa inama yo kumenyesha abantu bose ku giciro bashoboye kubona.

Ahantu hose hari inzu zikodeshwa ikigaragara cyo ha hari umutekano urinzwe cyane kugira ngo abarimo barusheho gutekana bitewe nuko baba barishyuye amafaranga menshi, bishyurarira izo serivisi bagiye kuzahabwamo aho ngaho hakubiyemo byose nk'umutekano ndetse n'ibyo kurya.

Bamwe muri ba rwiyemezamirimo bakunze gukora umwuga wo kugura amazu muri Kigali bakunze kuvuga ko bakunze kunanizwa n'ibiciro by'ayo mazu, aho usanga ari kubarirwa mu ma miliyoni menshi kandi hari abantu bamwe na bamwe badafite ubushobozi kandi bagakwiye kuzigura.

Ahantu hose hatangirwa serivise zo gukodesha mu Mujyi wa Kigali, usanga hakunze kuba hazwi n'abantu benshi bagiye batandukanye, bitewe nuko usanga izo nyubako zikunze gukenerwa n'abantu benshi batandukanye, kandi mu gihe bari mu bikorwa byabo bibabyarira inyungu.

Inzu zose iyo zigiye kubakwa, abazubaka bagerageza gushyiraho igenabikorwa rigaragaza uburyo amafaranga azagenda ayitakaraho, kandi rikagaragaza ingano yayo mu bijyanye n'ibyumba. Ku buryo ushobora no kuyigura itararangira.

Inzu zikodeshwa zikunze kwishyurwa amafaranga menshi, aho usanga ba nyirazo bazifashisha nk'imwe mu ngamba ibafasha kwiteza imbere, kubera ko ziba zikenewe n'abantu benshi kandi igihe gito, bari gukora gahunda zigiye zitandukanye.

Inzu zose zikodeshwa muri Kigali, usanga zikunze gukodeshwa n'abafite ibigo bikomeye bakorera kubera ko ziba zishyura amafaranga menshi y'ubukode niyo mpamvu usanga iyo uri umuntu wo hasi, utashobora kuzigondera ahubwo zigombera abo ba nyiri amafaranga.

Hari abantu benshi babigizemo nk'umurimo wabo buri munsi, gucuruza ibikorwa bijyanye n'imitungo itimukanwa, hakubiyemo inzu cyangwa se ubutaka, ugasanga birabatunze kandi bibagejeje ku iterambere hamwe n'imiryango yabo.

Inzu zose zicuruzwa hifashishijejwe ikoranabuhanga usanga zikunze kubona abaguzi ku buryo bwihuse bitewe n'uko usanga n'ikoranabuhanga ubwaryo rikoreshwa n'abantu benshi kandi mu gihe gito bityo ibigiyeho byose bikamenyekana.

Ikoranabuhanga ryubahirije imikorere myiza y'akazi, kubera ko usanga abantu barushaho gutangaza ibyo bacuruza no kubimenyekanisha bifashishije imbuga nkoranyambaga, bikabaganisha ku nzira y'iterambere kandi bitabagoye.

Intera ya mbere ituma inzu zigurwa, by'umwihariko izicuruzwa kuri murandasi, ni ukuzamamaza ukazimenyesha abantu, ukibuka no gushyiraho amafaranga bagomba kwishyura igihe cyose baziguze, ariko ukanababwira ko zifite ibyangombwa byose byuzuye.

Abantu bose bakora imirimo yo gucuruza imitungo itimukanwa, by'umwihariko hifashishijwe imbuga nkoranyambaga, usanga bagaragaza ko ari akazi kaba koroshye, kubera ko bagakora batavuye aho bari, bifashishije telefone zabo cyangwa mudasobwa.

Iyo umuntu agurishije ikibanza aba asabwa gukorana amasezerano n'uwakiguze kugira ngo hatazabamo amanyanga nyuma bityo uwishyuye amafaranga akazahomba cyangwa se akagura ubutaka buri mu bibazo.

Inzu zose zicururizwamo usanga hakunze kurindwa abajura kandi bakabikora bakaza ingamba zitandukanye z'umutekano kugira ngo batazavaho bagahombya ba nyir'ibigo by'imari kandi bitari ngombwa.

Iyo umuguzi ageze mu isoko cyangwa se ahandi hantu ashobora kugurira imyambaro, aba afite amahirwe yo guhitamo umwambaro yifuza kandi umunogeye, akishyura amafaranga yumva ashaka kuwutangaho bitewe n'ibyiyumviro bye.

Amaduka magari usanga acuruza ibintu bitandukanye bikenerwa n'abantu benshi, aho usanga rimwe na rimwe bacuruza imyambaro, ibindi bice ugasanga baracuruzamo ibikoresho byo mu gikoni, ikaba ariyo mpamvu usanga bishyura imisoro myinshi kubera ko baba bahuriza ibikorwa bibyara inyungu ahantu hamwe.

Hamwe mu hantu hatandukanye, by'umwihariko ahakorerwa ubucuruzi, usanga barashyizemo ibikoresho bifata amashusho kugira ngo igihe cyose hari umuntu ugerageje kwiba, ibyo bikoresho bimugaragaze bimwereke ba nyiri ibicuruzwa.

Akenshi iyo ugeze ahantu hacururizwa imyambaro usanga hari urujya n'uruza rw'abantu bitewe n'uko bayikenera ari benshi bikabatera kuza bakazira rimwe kandi bakaba ari benshi ugereranyije n'uko isoko ringana.

Abantu bose usanga iyo bagiye gukoresha amaduka magari ashinzwe kubaha ibicuruzwa bakunda kugenda bisanzuye kubera ko baba bumva ko ari abami binyuze mu kuba ari abaguzi.

Umuntu ugiye mu isoko aba asabwa kwitwararika kandi akajyana amafaranga ahagije, ku buryo ikintu ashoboye kubona akabona yakigura, akigura akagitahana mu rugo ku we, bikamufasha kutazongera kugikenera bya vuba kubera ko umwanya aba afite ari muke.

Igihe cyose ufite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza igaragaza umusanzu wawe watanze, nta bitaro na bimwe utakivurizaho mu Rwanda, keretse ibidakorana na Leta. Ni yo mpamvu usanga abantu benshi bakunze gushishikarizwa kwishyura uwo musanzu.

Abaturarwanda benshi bamaze gusobanukirwa ko igihe cyose bakoresha ubwishingizi bwa Ejo heza, bishobora kuzabafasha kubona amafaranga azabafasha mu zabukuru kubera ko baba barayizigamiye bagifite amaboko.

Buri munyarwanda wese usanga aterwa ishema no kuba yishyura umusanzu wa mituweli, kubera ko bimufasha kumva neza atekanye, bitewe n'uko igihe cyose yashakira afashwe n'indwara yakivuza kandi agakira.

Ikigo cy'ubwisungane mu kwivuza ni imwe mu nzira ishobora gutuma abantu bagira imibereho myiza bitewe n'uko kibafasha kwishyura imisanzu mito, kandi bakivuza igihe kirekire badacibwa amafaranga menshi muri icyo gihe bagikoresha.

Umunyarwanda wese wasobanukiwe akeza ka mituweri, usanga atagira impungenge mu bijyanye no kuyitanga, kubera ko usanga ari umusanzu muto ashobora kwishyura, kandi akivuza igihe kingana n'umwaka wose.

Mu rwego rwo kurushaho gukwirakwiza serivisi z'ubuvuzi zitangwa n'ikigo gishinzwe ubuzima mu rwanda, usanga haragiye hakwirakwizwa amavuriro mato hirya no hino mu midugudu agenda afasha abaturage kwivuza kandi ntibarebere mu rugo.

Abakozi bashyizweho na leta bashinzwe gutanga serivisi zihabwa abaturage by'umwihariko izijyanye n'ubwizigame bw'igihe kirekire, usanga bafite akazi katoroshye ko gushishikariza abantu kandi bakarushaho no kubakangurira kubikoresha.

Igihe cyose usanga abanyarwanda bagirwa inama yo kwishyura umusanzu wabo wa mituweli kubera ko umusanzu ufasha leta kugena ingengo y'imari igomba kuzatanga mu bijyanye n'ubuvuzi buhabwa abaturage kandi ku nzego zombi.

Ikigo cy'ubwisungane mu kwivuza buri mwaka gikora akazi katoroshye ko kwandika abanyamuryango igihe cyose bamaze kwishyura ikigero cyabo cyangwa se umusanzu wabo mu bijyanye n'ubwisungane mu kwivuza, kugira ngo babike inyandiko z'ibyemezo.

Ikigo cy'ubwishingizi kizwi nka EjoHeza, cyagerageje gushishikarizwa abanyarwanda kugikoresha, aho wasangaga abayobozi bagana mu bigo by'amashuri bakabwira abantu ko bagomba kugikoresha, kandi bakazigamamo make kugira ngo bazabashe kugobokwakwa mu gihe cy'izabukuru.

Mu maduka ahahirwamo n'abantu biyubashye, usanga hari abakozi bashinzwe kubatwaza ibyo bahashye kubera ko baba babyishyuye ku kiguzi kiri hejuru kandi ugasanga na bo ubwabo bariyubashye badakwiye kugendana ibiryo bahashye mu ntoki.

Igihe cyose avuye ku kazi aba ategetswe guca mu isoko cyangwa se mu iduka rikuru ri rimwegereye akaguramo byinshi mu byo aribuze gukenera cyane ko we afite imodoka imutwaza adakenera abandi bantu baza kubyikorera kubera ko abyigerereza iwe.

Abantu bose bakunze kugurira mu masoko manini, bagirwa inama yo kwitwararika kugira ngo bataza kugira ibyo bitiranya n'ibisanzwe muri ayo maduka bigatuma babijyana hanyuma bagafatwa nk'abajura bakaza gucibwa amafaranga arenga kuyo bari bishyuye.

Amaduka akomeye acuruza ibintu bitandukanye, akunda kwitabirwa cyane n'abantu bakize kubera ko usanga ubwishyu bwayo bwihagazeho, butakigonderwa na buri umwe wese bityo ugasanga hari abishyiriraho imiyoboro ibakumira.

Ababyeyi benshi iyo bavuye ku kazi, usanga banyura mu maduka akomeye, bakagura bimwe mu byo bashobora gushyira abana babo, by'umwihariko ibikubiyemo nk'amata ndetse n'imitobe ikorerwa mu nganda kugira ngo barusheho kubanezeza.

mu maduka akomeye haba hari ibikoresho bishinzwe gucunga umutekano w'abarimo imbere kubera ko usanga ku muryango hari abakozi bashinzwe gusaka abagiye kwinjiramo kugira ngo batinjizamo ikintu icyo ari cyo cyose cyahungabanya ubuzima bw'abarimo imbere cyangwa kigahombya ba nyir'umushinga.

Igihe cyose ugiye guhaha mu maduka yiyubashye, usanga bagutwaza ibyo wahashye bakabikugezareza ku muryango kubera ko aribo baba bazi neza inzira iboneye bashobora kubicishamo, bakabigeza aho babigeza bitangiritse.

Kirazira kwihereza ikintu icyo ari cyo cyose by'umwihariko ibicururizwa mu maduka akomeye, utabihawe n'umukozi ubishinzwe kandi bagashyiraho ko binabujijwe gufata ifoto uri muri izo nzu zicururizwamo kubera ko utaba ushinzwe kubayamamariza.

Iyo ugerageje kuvugana n'abantu bamwe na bamwe bahahira cyangwa se bacururiza mu maduka ahenze, usanga bavuga ko bagerageza kubona inyungu zitandukanye, kubera ko baba baganwa n'abantu benshi kandi mu gihe gito.

Iyo ugiye mu maduka akomeye; uba usabwa kwitwararika kandi ukaba uzi neza ibyo ugomba kuhagura, kugira ngo udatwarwa n'ubwiza bw'birimo, ukagura ibintu byinshi bihabanyije n'ubushobozi bwawe ufite; kandi bitari ngombwa.

Usanga iyo ugeze mu maduka akomeye, abakozi baho bazi neza kwita kugana kandi bakarushaho kubaha serivisi nziza, ari nacyo gituma iyo uguriyemo neza utekereza gusubirayo kandi bo bakabona inyungu.